Iki ni icyuyumba kirimo abantu bagiye batandukanye bicaye ku ntebe zisa umweru. Imbere yabo hakaba hari ameza y'umukara ateretseho mudasobwa n'uducupa tw'amazi.

Aba ni abantu batandukanye bari mu cyumba kimwe. Bakaba bicaye ku ntebe zisa umukara, imbere yabo hakaba hari ameza agiye ateretseho ibikombe by'icyayi n'impapuro n'ibitabo bitandukanye.

uyu ni umugore wambaye umupira w'umukara ndetse n'ikanzu mu kiganza cye akaba afite indangururamajwi inyuma ye hakaba hari icyapa kinini cyane cyanditseho amagambo ari mu mabara y'umweru ubururu n'umutuku.

Aba ni abantu bagiye batandukanye, bahagaze, inyuma yabo hakaba ari icyapa kinini cyane kiri mu mabara y'ubururu n'umweru, cyanditseho amagambo agiye atandukanye, icyapa kiriho n'ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda.

Aba ni abantu batandukanye, bicaye ku ntebe z'umukara. Imbere yabo hakaba hari ameza, agiye ariho ibikoresho bitandukanye nka mudasobwa ndetse n'uducupa tw'amazi.

Aba ni abantu bicaye batandukanye, umwe muri bo wicaye hagati akaba afite indangururamajwi mu ntoki ze, imbere yabo hakaba hari ameza ariho ibitabo, telefone n'uducupa tw'amazi.

Aba ni abantu bagiye batandukanye bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hakaba hari ameza ateretseho ibitabo byabo, telefone ndetse n'indangururamajwi.

Aba ni abantu batandukanye bari mu cyumba kimwe, bakaba bicaye ku ntebe, imbere y'abo hakaba hariho ameza agiye ariho ibitabo ndetse n'uducupa tw'amazi.

Aba ni abantu batandukanye bari mu cyumba, bicaye ku ntebe z'umuhondo ndetse umwe akaba yicaye ku y'umutuku. Inyuma yabo hakaba hari insakazamashusho nini ndetse n'icyapa.

Uyu ni umugabo wambaye ishati y'umukara uhagaze imbere y'undi mugore wambaye ikote ry'ubururu, n'umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara, abandi bantu babakikije bose bo bakaba bicaye ku ntebe zitukura.

Aba ni abantu bagiye batandukanye bicaye mu busitani, inyuma yabo hakaba hari abandi bahagaze, kandi nyuma hakaba hari n'icyapa kinini cy'umweru n'ubururu, inyuma y'icyo cyapa nabwo hakaba hari inzu y'amatafari ahiye ihari.

Uyu ni umugabo wambaye ikote n'ishati y'umweru ufite indangururamajwi mu kiganza cye, akaba ahagaze imbere y'abandi bantu bicaye kandi inyuma ye hakaba hari icyapa cy'umweru kiriho amagambo atandukanye.

Aba ni abantu benshi batandukanye bahagaze bafite ihene mu biganza byabo, bakaba bahagaze mu busitani imbere y'ihema, inyuma yabo hakaba hari ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda.

Aba ni abantu batandukanye, bicaye mu cyumba cy'inama ku ntebe z'umukara. Imbere yabo hakaba hari ameza ariho indangururamajwi ndetse n'uducupa tw'amazi.

Aba ni abantu batandukanye bambaye imipira y'ubururu yanditseho amagambo y'umweru hasi bakaba bambaye kaki, imbere yabo hakaba hari undi mugabo uhahagaze wambaye ikote ry'umukara.

Aba ni abantu batandukanye bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hakaba hari ameza ateretseho ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse n'uducupa tw'amazi.

Aba ni abantu batandukanye bicaye ku ntebe z'umukara, bakaba bicaye mu cyumba kirimo uduti tugiye dutandukanye ndetse inzugi zikaba zisa umukara.

Aba ni abantu batandukanye bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hakaba hari ameza manini agiye ateretseho ibikoresho bitandukanye nk'ibitabo ndetse na mudasobwa.

Aba ni abantu batandukanye bari mu cyumba kimwe, bamwe bakaba bicaye ku ntebe z'umukara, abari imbere bakaba bicaye bo ku ntebe z'umweru mo hagati yabo hakaba hagiye harimo utumeza turiho uducupa tw'amazi.

Uyu ni umugore wambaye ishati itukura ndetse n'indangururamajwi mu ntoki, akaba ari kuganiriza abandi bantu benshi bagiye batandukanye bicaye ku ntebe zisa umweru.

Ni abantu benshi bagiye batandukanye aba bantu bakaba bicaye ku ntebe zisa umukara ndetse mu biganza byabo bakaba bafite impapuro zigiye zitandukanye, abandi bafite amatelefoni.

Uyu ni umugabo wambaye ishati n'ipantaro n'isaha inyuma ye hakaba hari icyapa kiriho ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda, ndetse iki cyapa kikaba cyanditseho amagambo ari mu mabara y'umukara n'umweru.

Aba ni abantu bagiye batandukanye, bicaye mu cyumba kimwe ku ntebe y'urubaho, ifite umusego w'umweru. Hirya hakaba hari umugabo, ufite igikoresho cyifashishwa mu gufata amashusho.

Uyu n'umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, akaba afite indangururamajwi mu kiganza cye. Akaba akikijwe n'abandi bantu bicaye, imbere yabo hari ameza ariho uducupa tw'amazi n'ibindi.

Aba ni abantu bagiye batandukanye bicaye ku ntebe zisa umukara mu ihema risa umweru, imbere yabo hakaba hari ameza agiye ateretseho uducupa tw'amazi ndetse n'impapuro.

Aba ni abantu bahagaze imbere y'abandi bantu benshi bicaye mu busitani aha hantu inyuma yabo hakaba hari inzu iri kubakwa y'amatafari ahiye ndetse irimo n'ibirahure bimwe na bimwe.

Aba n'abantu bagiye batandukanye, bicaye ku ntebe. Imbere yabo hakaba hari ameza ariho ibikapu, ibitabo, telefone ndetse n'uducupa tw'amazi.

Aba ni abantu batandukanye, aba bantu bakaba bicaye ku ntebe z'umweru, imbere yabo hari ameza nayo asa umweru, bakaba kandi bicaye mu ihema naryo riri mu ibara ry'umweru.

Aba ni abantu batandukanye, abenshi bakaba bicaye ku ntebe z'ubururu, imbere yabo hari ameza atukura ariho ibitabo n'uducupa tw'amazi, imbere na none hakaba hari abagabo babiri, umwe akaba afite indangururamajwi ari kuvuga.

Iki ni icyumba kirimo abantu bagiye batandukanye bicaye ku ntebe zisa umweru, imbere hakaba hari abayobozi bicaye ku ntebe zisa umukara, imbere yabo hari ameza y'umweru.

Uyu numugabo wambaye ikoti ry'umukara ipantaro y'umukara, ishati y'umweru na karuvati itukura, akaba afite indangururamajwi mu kiganza cye, hirya ye hakaba hari ameza y'umweru ateretse ibitabo bye.

Aba ni abantu batandukanye bicaye mu cyumba kimwe ku ntebe zisa umukara, imbere yabo hakaba hari ameza agiye ariho uducupa tw'amazi ndetse n'ibindi.

Aba ni abantu batandukanye bari mu cyumba cy'inama. Aba bantu bakaba bicaye, umwe akaba ahahagaze, imbere yabo bakaba hari ameza ateretseho ibitabo, mudasobwa, n'uducupa tw'amazi.

Aba ni abantu batandukanye bicaye ku ntebe z'umweru, imbere yabo hakaba hari n'ameza, na yo asa umweru. Imbere yabo hakaba hari umugabo wambaye umupira w'umweru, uri kubaganiriza.

Uru ni urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo agiye atandukanye ari mu mabara y'umukara ndetse n'ubururu, uru rupapuro rukaba rushushanyijeho n'ibendera ry'u Rwanda ndetse n'Ubwongereza.

Iki ni icyuma kiri mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru, iki cyuma kikaba cyegeranye n'inzu iri mu ibara ry'umweru ndetse inyuma hakaba hagiye hari ibiti birebire.

Aba ni abantu batandukanye, bahagaze bambaye udupfukamunwa tw'ubururu n'umukara. Aba bantu bakaba bafite mu biganza byabo ibikoresho by'ikoranabuhanga, nka telefone ndetse na mudasobwa.

Iki ni icyuma kirekire kiri mu mabara y'umweru n'umutuku. Hejuru ya kino cyuma hakaba hari ikirere kiri mu ibara ry'ubururu.

Aba ni abantu batandukanye bicaye abandi bahagaze, bakaba bari gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye nka mudasobwa, inyuma yabo hakaba hari urukuta rw'umweru rwanditseho amagambo.

Uru ni urupapuro ruri mu mabara y'icyatsi ndetse n'ubururu, uru rupapuro rukaba rwanditseho amagambo agiye atandukanye ari mu ibara ry'umweru, ubururu ndetse n'umukara n'icyatsi.

Iki ni icyapa kimanitse ku byuma. Iki cyapa kikaba kiriho ibishushanyo ndetse n'amagambo agiye atandukanye, ibi byose bikaba bigiye biri mu mabara y'umukara, ubururu n'umutuku.

Ibi ni ibiganza by'umuntu, biri kugenda bikoresha mudasobwa. Hirya hakaba handitse amagambo agiye atandukanye, ari mu mabara y'ubururu ndetse n'umukara.

Aba ni abantu batandukanye, bari mu cyumba, bakaba bicaye, imbere yabo hakaba hari ameza, ayo meza bakaba bayateretseho bose mudasobwa, bari kuzikoresha.

Uru ni urupapuro rw'umweru, uru rupapuro rukaba rugiye rwanditseho amagambo atandukanye ndetse urupapuro ruriho n'ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda. Aya magambo yanditse mu mabara y'umweru , ubururu, umutuku ndetse n'umukara.

Uru ni urupapuro rw'umweru uru rupapuro rwanditseho amagambo agiye atandukanye, ari mu mabara ayiganjemo umukara ndetse n'icyatsi.

Uru ni urupapuro rw'ubururu, rwanditseho amagambo agiye atandukanye. Aya magambo akaba agiye ari mu mabara y'ubururu, umweru ndetse n'umuhondo.

Uru ni urupapuro rw'ubururu rwanditseho amagambo agiye atandukanye ari mu mabara y'umuhondo ndetse n'mweru. Uru rupapuro rukaba rushushanyijeho na terefone.

Uru ni urupapuro rw'ubururu rwanditseho amagambo ndetse n'imibare bigiye bitandukanye biri mu mabara y'umweru ndetse n'umuhondo, n'ubururu n'icyatsi.

Aba ni abantu bagiye batandukanye bambaye ingofero z'ubururu, umuhondo n'umutuku, bakaba bambaye n'amajire y'umuhondo n'umutuku, bakaba bateruye icyuma abandi bicaye.

Uru ni urupapuro r'umweru n'ubururu, rushushanyijeho ibishushanyo bigiye bitandukanye ndetse rukaba rwanditseho n'amagambo ari mu ibara ry'ubururu n'umweru, uru rupapuro kandi rukaba ruriho n'ikirangantego cya repubulika y'u Rwanda.

Uru ni rupapuro rw'ubururu rwanditseho amagambo agiye atandukanye aya magambo akaba agiye ari mu mabara y'ubururu ndetse andi ari mu mabara y'umweru.

Uru ni rupapuro rw'ubururu, uru rupapuro rukaba ruriho igishushanyo cy'inzu kandi uru rupapuro rukaba rwanditseho amagambo atandukanye, ari mu ibara ry'ubururu, umuhondo n'umweru.

Uru ni urupapuro rw'umweru, rwanditseho amagambo agiye ari mu mabara y'umukara n'ubururu. Uru rupapuro rushushanyijeho ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'Ubwongereza.

Uru ni urupapuro rw'umweru ruriho ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda kandi rukaba ruriho n'ibishushanyo bitandukanye kandi rwanditseho n'amagambo ari mu mabara y'umweru, ubururu n'umuhondo.

Iyi ni inyubako igiye iriho ibyapa bigiye bitandukanye, biri mu mabara agiye atandukanye, aha twavugamo nk'amabara y'umuhondo, umutuku, ubururu ndetse n'umweru.

Ibi ni ibyuma bigiye bitandukanye biri mu mabara agiye atandukanye yiganjemo umutuku, umweru ndetse n'ubururu.

Ibi ni ibyuma bitandukanye birebire, ibi byuma bikaba biriho insinga, hejuru hakaba ari igicu cy'umweru n'ikirere gisa ubururu.

Aba ni abagabo bambaye imyenda ndetse n'amajire asa icyatsi, imbere yabo hakaba hari imodoka nini cyane iteretseho icyuma kinini gisa umweru.

Iri ni ipoto rirerurire cyane ririho insinga, rikaba rikikijwe n'ibiti byinshi bigiye bitandukanye ndetse rikaba rikikijwe n'urukuta rurerure rw'amatafari ahiye.

Iki ni icyuma kirekire cyane kiriho insinga zigiye zitandukanye, hejuru hakaba hari igicu cy'umweru ndetse n'ikirere gisa ubururu.

Ibi ni ibyuma birebire cyane biriho insinga zigiye zitandukanye, hejuru y'ibyuma hakaba hari ikirere gisa ubururu kiriho ibicu by'umweru.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga urimo ibinyabiziga bitandukanye, uyu muhanda ukaba ukikijwe n'inzira y'abanyamaguru ndetse ukaba uriho n'inzu nyinshi z'ubucuruzi.

Iyi ni inzu ifite igisenge gisa umutuku ndetse iyi nzu ikaba ifite urukuta rurerure rwubakishije amatafari ahiye ndetse n'urugi rusa umukara.

Iki n'icyapa cyometse ku mabati kiriho ibishushanyo, ndetse n'amagambo agiye atandukanye, biri mu mabara y'umukara, umweru, n'ubururu.

Iri ni ipoto rirerire, ririho insinga nyinshi zigiye zitandukanye, iri poto ryegeranye n'ibiti birebire bihateye ndetse hepfo hakaba hari inzu na yo ihubatse.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi iriho ibyapa byinshi bigiye bitandukanye, hirya y'iyi nzu hakaba hari ipoto rirerire, iri poto rikaba ririho insinga zitandukanye.

Ibi ni ibyapa bigiye bitandukanye biri mu mabara y'icyatsi, umweru n'umutuku, ibi byapa bikaba byegeranye n'amapoto maremare y'amashanyarazi ndetse n'inyubako zigiye zitandukanye.

Aba ni abantu bahagaze mu mutaka usa umuhondo, impande yabo hakaba hari ipoto rirerire ririho insinga zigiye zitandukanye, hirya hakaba hari umuhanda w'igitaka ndetse n'amazu awukikije.

Iki ni icyapa gishinze impande y'inzu iki cyapa kikaba kiri mu mabara y'umweru n'umutuku kikaba cyanditseho amagambo ari mu mabara y'umweru, umukara, n'umutuku.

Iki ni icyuma kirekire kiriho insinga zigiye zitandukanye, hirya hakaba hari abana bari kubakinira ndetse hakaba hateye n'ubusitani n'ibiti birebire, hirya nanone hakaba hari imodoka iri mu ibara ry'umukara ihahagaze.

Iki ni icyuma kirekire kigiye kiriho insinga zitandukanye, iki cyuma kikaba gishinze ahantu hari ubusitani ndetse hateye ibiti birebire by'amoko atandukanye.

Aba ni abagore bahetse abana babo ndetse bakaba bari kumwe n'umugabo wambaye ishati ndetse n'ipantaro.

Iyi ni inzu ifite inkuta z'umweru, iyi nzu ikaba iriho ibyapa bigiye bitandukanye, bisa ubururu ndetse ikaba ifite n'inzira isakajwe amabati n'ibyuma.

Uyu ni umugabo wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro ndetse n'inkweto z'umukara n'umweru, akaba ari kugendera mu nzira ntoya impande y'ibiti biteye ndetse n'ubusitani, inyuma ye hakaba hari intebe yicayeho abantu.

Izi ni inzu zigiye zitandukanye zubakishijwe amatafari ahiye, impande ya zino nzu hakaba hari ubusitani ndetse n'akayira gateyemo ibyuma n'amabati.

Uyu ni umugore wambaye umupira w'ubururu wanditseho amagambo y'umweru, imbere ye hakaba hari ameza ariho urupapuro ndetse na mudasobwa.

Izi ni imodoka zigiye zitandukanye, ziparitse mu mbuga, iyi mbuga ikaba ishushanyijemo imirongo y'imyeru kandi iyi mbuga ikaba ikikijwe n'amatara maremare yo kumurika.

Iyi ni imiryango myinshi ndetse n'amadirishya bisa icyatsi biri ku nzu yubakishijwe amatafari ahiye. Imbere y'iyo nzu hari ubusitani bushiteyemo ibiti by'amoko atandukanye.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga ukikijwe n'inzira y'abanyamaguru irimo abantu bagiye batandukanye ndetse n'amazu agiye atandukanye.

Izi ni imodoka nyinshi cyane zihagaze ziri mu mabara y'umweru, umutuku n'umukara, impande yazo hakaba hari amazu yubatswe mu matafari ahiye ndetse hakaba hari n'indi iri hakurya y'igisenge gitukura n'inkuta z'umweru.

Iyi ni imodoka iri mu ibara ry'umweru, ikaba iriho n'imirongo itukura, iyi modoka ikaba iriho igishushanyo cy'umusaraba gitukura ndetse ikaba yanditseho n'amagambo nayo ari mu ibara ritukura.

Iki n'icyumba kirimo abantu bagiye batandukanye bamwe baricaye ku ntebe abandi barahagaze ku gikuta cyo muri kino cyumba hariho icyuma cy'umutuku cyifashishwa mu kuzimya umuriro.

Aba ni abantu batandukanye, umwe wambaye agapfukamunwa gatukura n'indorerwamo z'amaso, undi nawe akaba yambaye agapfukamunwa k'umukara n'imyenda yiganjemo umukara n'umweru, akaba imbere ye afite igikapu ndetse i mpande hakaba hari na mudasobwa.

Uru ni urupapuro rw'umweru, uru rupapuro rukaba rwanditseho amagambo agiye atandukanye ndetse n'imibare bigiye bitandukanye. Ibi byose bikaba byanditse mu ibara ry'umukara.

Uyu ni umugabo wicaye impande y'abandi bantu ku ntebe y'umukara, akaba yambaye ikoti ry'umukara ishati y'umweru na karuvati y'umukara, akaba afite mu ntoki ze indangururamajwi, imbere ye hakaba hari ameza ariho uducupa tw'amazi.

Aba ni abantu biganjemo abagabo babiri bambaye imyenda iri mu mabara y'umukara n'umweru, hakaba hari abagore babiri babahagazemo hagati, imbere yabo hari ameza hariho ibitabo n'uducupa tw'amazi.

Uyu ni umugabo wambaye indorerwamo y'amaso, akaba yambaye n'umwenda usa umutuku, umukara, akaba yambaye n'ishati ndetse na karuvati.

Uyu ni umugabo wambaye indorerwamo z'amaso, akaba yambaye n'ikanzu ndende isa umutuku, umukara, n'umweru. Akaba yambariyemo na karuvati y'umukara.

Uyu ni umugabo wambaye indorerwamo z'amaso, uyu mugabo akaba yambaye n'umwenda uri mu mabara y'umutuku, umukara n'umweru.

Aba ni abantu bari kugenda, bose bambaye imyenda isa. Hirya ya bano bantu hakaba hari urukuta rurerure rw'amatafari ahiye, ruriho n'urugi rutukura.

Iki ni icyumba kirimo abantu bagiye batandukanye, bicaye ku ntebe zisa umukara. Imbere yabo hakaba hari ameza na yo y'umukara, agiye ateretseho ibirahure bitandukanye ndetse n'ibitabo byabo.

Ibi ni ibyapa bibiri bimanitse. Icyapa cya mbere kiri hejuru kiri mu ibara ry'umweru, kikaba cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara. Icyapa cya kabiri kiri mu mabara y'ubururu, iki cyapa kikaba kiriho ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda ndetse iki cyapa cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru n'umukara.

Uyu ni umugore wambaye imyenda yiganjemo umutuku, umukara, umweru. Uyu mugore akaba ari inzobe afite n'umusatsi mwinshi w'umukara.

Uyu ni umugabo wambaye ingofero y'umukara, n'umuhondo akaba yambaye umwenda wiganjemo umutuku ,umukara, n'umwerukaba imbere hari indangururamajwi h'irya hari ibendera ry'u rwanda

Uyu ni umugabo wambaye ingofero y'umukara ndetse irimo umurongo w'umweru, hasi akaba yambaye umwenda uri mu ibara ry'umutuku n'umukara ndetse n'umweru.

Uru ni urupapuro rw'umweru, uru rupapuro rukaba rugiye rwanditseho amagambo ndetse n'imibare bitandukanye. Ibi byose bikaba biri mu ibara ry'umukara.

Iyi ni inyandiko iriho amagambo agiye atandukanye ndetse n'imibare igiye itandukanye, iyi nyandiko ikaba yanditse mu ibara ry'umukara.

Uyu ni umugabo wambaye indorerwamo z'amaso akaba yambaye umwenda urimo umutuku, umukara n'umweru ndetse akaba yambayemo ishati na karuvati y'ubururu.

Uyu ni umugabo ufite ubwanwa ndetse wambaye ishati y'umweru, hirya ye hakaba handitse amagambo ndetse n'imibare bigiye bitandukanye biri mu mabara y'umweru.

Uyu ni umugabo wambaye indorerwamo z'amaso, akaba yambaye ikote ry'ubururu, karuvati y'ubururu n'umweru n'ishati y'umweru, imbere ye hakaba hateretse agacupa k'amazi.

Aba ni abagabo batandukanye umwe urimo hagati akaba yambaye ikote y'umukara n'ishati akaba akikijwe n'abandi bagabo bambaye amakanzu maremare y'umukara arimo n'umweru, imbere yabo hakaba hari amezi ariho mudasobwa.

Uyu ni umugore wambaye agapfukamunwa k'ubururu ndetse akaba yambaye n'imyenda iri mu mabara y'umukara ndetse n'umweru, mu hagati hakaba hicayemo umugabo hirya na none hakaba hicaye umugabo w'undi na we wambaye agapfukamunwa k'ubururu n'imyenda irimo umukara n'umweru.

uyu n'umugabo wambaye ingofero akaba yambaye ishati y'umweru ndetse na karuvati y'ubururu akaba yicaye mu kagare imbere y'icyapa kinini cy'ubururu n'umweru

Uyu ni umugore wambaye agapfukamunwa k'ubururu, umwenda w'umukara ndetse n'umweru, imbere ye hakaba hari ameza ariho insakazamajwi ndetse na mudasobwa.

Uyu ni umugabo uhagaze mo hagati y'abandi bantu batandukanye bicaye. Akaba ari abicaye imbere yabo bafite ameza arimo ukozwe mu rubaho akaba ariho impapuro nyinshi zitandukanye.

Uru ni urukuta rurerure cyane rwubakishijwe amatafari ahiye. Uru rukuta rukaba ruriho icyapa kinini gisa umweru cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara.

Uru ni urupapuro rw'umweru, uru rupapuro rukaba rwanditseho amagambo ndetse n'imibare bitandukanye, ibi byose bikaba bigiye biri mu ibara ry'umukara.

Uyu ni umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, wambaye indorerwamo, z'amaso, akaba yambaye ikote risa ubururu, n'ishati y'umweru. Akaba ari gusuhuzanya, n'undi mugore.

Aba n'abantu bahagaze batandukanye imbere yabo hakaba hari undi mugabo ufite mu biganza bye icyuma cy'umutuku kiri gusohokamo imyotsi ari kuzimya umuriro.

Iyi ni imodoka iri mu ibara ry'umweru n'umukara, ikaba igiye ifitemo utuntu tw'udukaro dusa umuhondo n'umukara. Ikaba kandi yanditseho amagambo, na yo ari mu ibara ry'umukara.

Aba ni abantu benshi batandukanye, bambaye ingofero z'umukara, amashati y'umukara, ariho ibendera ry'igihugu, ndetse n'amapantaro y'umukara, n'inkweto z'umukara, bakaba bafite intwaro mu ntoki zabo.

Iki ni icyuma cy'umutuku kimanitse ku gikuta gisa umweru, iki cyuma kikaba cyifashishwa mu kuzimya umuriro.

Uyu n' umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye byiganjemo imodoka ndetse na moto uyu muhanda ukaba ukikijwe kandi n'ibyapa ndetse n'inzu nyinshi z'ubucuruzi.

Uyu ni ushinzwe umutekano wambaye ikoti ry'icyatsi n'ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara wicaye kuri moto hirya hakaba hari imodoka bari kubisikana.

Iki ni icyuma gifite umuyoboro w'umukara, icyuma kikaba gisa umutuku. Iki cyuma kikaba cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, iki cyuma cyifashishwa mu kuzimya umuriro.

Iyi ni imodoka isize y ibara ry'umukara n'umweru, iyi modoka ikaba yanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara, ikaba ihagaze imbere y'inyubako ndende iriho ibyapa bitandukanye.

Iki ni icyuma gitukura, kigiye kiriho impapuro z'umweru, iki cyuma kikaba giteretse impande y'urukuta rusa umukara, iki cyuma kikaba cyifashishwa mu kuzimya umuriro.

Aba ni abantu batandukanye bambaye ingofero, amashati, ndetse n'inkweto zisa umukara aba bantu bakaba bafite mu biganza byabo intwaro.

Uyu ni umuhanda wibinyabiziga, uyu muhanda ukaba urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye ndetse hagati mu muhanda hakaba harimo ubusitani buteyemo ndetse n'ibiti birebire.

Uyu n'umugabo wambaye ishati y'umukara yanditseho amagambo yu'mweru ndetse harimo n'imirongo y'umuhondo, uyu mugabo akaba afite igikoresho cy'ikoranabuhanga mu ntoki ze n'ikarita ahagaze imbere y'ikinyabiziga,

Uru ni urupapuro rw'umweru, rwanditseho amagambo atandukanye, ndetse n'imibare igiye itandukanye, biri mu mabara y'ubururu, uru rupapuro kandi ruriho n'ikirangantego, cya repubulika y'u Rwanda.

Aba n'abagabo batandukanye bicaye bafite ibintu mu matwi yabo bose bakaba bagiye bambaye amakoti agiye atandukanye.

Uyu ni umugore wambaye indorerwamo z'amaso, ikote ry'umukara, akaba yicaye ku ntebe isa umukara, imbere ye hakaba hari ameza ariho ibitabo ndetse n'uducupa tw'amazi.

uyu ni numugabo wambaye indorerwamo z'amaso, akaba yambaye n'ikote ry'umukara n'ishati y'Umweru ndetse na karuvati isa umukara.

Uyu ni umugore wicaye mu cyumba kimwe n'abandi bantu benshi, uyu mugore akaba yambaye ishati y'umweru, imbere hakaba hari ameza y'umukara ateretseho ibitabo bye ndetse afite ikaramu mu ntoki.

Iki ni icyumba kinini cyane kirimo insakazamashusho imbere ndetse kikaba kirimo n'abantu bicaye ku ntebe z'imikara, imbere yabo hari ameza ateretseho mudasobwa, uducupa tw'amazi n'ibindi.

Uyu ni umugabo wambaye ikote akaba yegeranye n'undi mugore bakaba bicaye ku ntebe zisa umukara, imbere yabo hakaba hari ameza ateretseho mudasobwa n'uducupa tw'amazi n'indangururamajwi.

Uyu ni umugore wambaye igitenge, uyu mugore akaba afashe abana be babiri ku rutugu, aba bana bakaba bambaye amakote n'amapantaro bisa ndetse n'amashati y'umweru.

Uyu ni umukuru w'igihugu wambaye umupira w'umweru, ingofero y'umukara akaba akikijwe n'abagabo bambaye imyenda y'umukara, impande ye kandi hakaba hari ibendera riri mu mabara y'ubururu, umweru ndetse n'umutuku, iri bendera ryanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara, imbere hakaba hari imbaga nyinshi y'abaturage bishimye.

Uyu ni umukuru w'igihugu wambaye ikote ry'umukara n'ipantaro y'umukara, n'ishati y'umweru na karuvati, akaba ahagaze hagati y'abandi bantu benshi bagiye batandukanye.

Aba ni abantu batandukanye, bamwe bicaye, abandi bakaba bahagaze, bari gukurikira undi muntu ubari imbere uri kuvugira ku ndangururamajwi.

Aba ni abantu bagiye batandukanye bambaye imipira y'ubururu abandi bambaye amashati y'umweru. Bakaba bafite mu biganza byabo amabendera y'umutuku, umweru n'ubururu.

Iki ni icyumba kirimo ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'irindi bendera ririho ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda, hakaba hari n'abantu bicaye ku ntebe z'umukara imbere yabo hari ameza ateretseho ibintu bitandukanye.

Uyu ni umugore wambaye igitenge, mu biganza bye akaba afitemo igitabo kiri mu ibara ry'umweru n'umukara. Hirya ye hakaba hateye igiti kirekire.

Aha ni abantu batandukanye bicaye mu cyumba kinini cyane, kirimo amatara acanye umweru, bakaba bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hari ameza ariho uducupa tw'amazi.

Aba ni abantu batandukanye bambaye imipira y'imyeru ndetse bakaba bambaye n'amajipo n'amapantaro by'imikara imbere yabo hakaba hari ibipapuro byinshi biri hasi.

Uyu ni umugabo wambaye indorerwamo z'amaso, akambara ikote ry'umukara riciyemo uturongo tw'umweru, akambara ishati y'umweru na karuvati. Imbere ye hakaba hari indangururamajwi.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye byiganjemo imodoka ndende itwara abagenzi ndetse n'izindi modoka hirya hakaba hari inzira y'abanyamaguru ndetse n'ibiti biteye bitandukanye.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga urimo ikinyabiziga kirekire kiri mu mabara y'ubururu, umweru, umukara ndetse n'icyatsi, hirya hakaba hari inzira y'abanyamaguru iri kunyuramo umugabo.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye byiganjemo imodoka ndetse na moto, uyu muhanda ukikijwe n'inzira y'abanyamaguru iri kugendamo abantu bagiye batandukanye.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga, urimo ibinyabiziga, byiganjemo imodoka, na moto. Uyu muhanda kandi, ukaba ushushanyijemo imirongo y'umweru. Ukaba kandi ukikijwe n'inzu zigiye zitandukanye.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, byiganjemo imodoka ndetse na moto, uyu muhanda ukaba urimo n'inzu z'ubucuruzi zirimo ibyapa bigiye bitandukanye.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, byiganjemo imodoka ndetse hirya hakaba hari inzira y'abanyamaguru ndetse hakaba hateye n'ibiti.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye, byiganjemo ikamyo nini iri mu ibara ry'icyatsi ndetse na moto. Uyu muhanda ukikijwe n'inzira y'abanyamaguru ndetse n'ibiti birebire.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga byiganje mu mabara y'ubururu n'umweru bihagaze, aho impande y'uyu muhanda hakaba hariho inzira yagenewe abanyamaguru.

Uyu ni umuhanda urimo igikamyo kinini cyane kiri mu mabara y'umweru, umukara n'umutuku. Uyu muhanda ukaba ukikijwe n'inzira y'abanyamaguru ndetse na ruhurura.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, byiganjemo imodoka ndetse na moto, hirya hakaba hari inzira y'abanyamaguru ndetse hakaba hateye n'ibiti bitandukanye.

Izi ni imodoka zigiye zitandukanye ziri mu mabara y'umweru, icyatsi ndetse n'izindi ziri mu mabara y'ubururu n'umukara zihagaze ahantu hamwe, inyuma hari abantu baje gutega.

Iyi ni inzira y'abanyamaguru iripande y'umuhanda iri kunyuramo abantu bagiye batandukanye, hirya hakaba hari imodoka zihagaze imbere y'inyubako ndende iriho ibyapa bitandukanye.

Iyi n'imodoka ndende cyane irimo abagenzi benshi, iyi modoka ikaba iri mu ibara ry'ubururu, umweru ndetse n'umukara.

Uyu umuhanda w'ibinyabiziga, birimo ibinyabiziga bitandukanye byiganjemo imodoka ndetse na moto uyu muhanda kandi ukikijwe n'ubusitani ndetse n'ibiti birebire.

Iyi ni imodoka itwara abagenzi, iri mu mabara y'ubururu, umweru ndetse n'umukara, ikaba rimo abagenzi benshi bicaye, abandi bahagaze.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, byiganjemo moto ndetse n'imodoka kandi ukaba urimo imirongo igiye itandukanye isa umweru.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga urimo ikinyabiziga kirekire cyane kiri mu ibara ry'ubururu. Uyu muhanda kandi ukikijwe n'ibiti byinshi birebire ndetse n'inzira y'abanyamaguru irimo kunyuramo abantu.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye byiganjemo moto ndetse n'imodoka, hirya hakaba hari inzira y'abanyamaguru ndetse hakaba hari n'ibiti birebire.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga wiganjemo iki kinyabiziga cy'ikamyo nini iriwibara ry'umweru uyu muhanda ukikijwe n'inzira y'abanyamaguru ndetse n'ibiti birebire.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, byiganjemo imodoka ndetse na moto. Uyu muhanda uriho n'ubusitani burimo ibiti birebire.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye byiganjemo moto ndetse n'imodoka uyu muhanda ukaba ukikijwe n'inzira y'abanyamaguru ndetse n'amazu agiye atandukanye.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga urimo ibinyabiziga nka moto, uyu muhanda ugiye ushushanyijemo imirongo y'umweru, umukara ndetse n'umuhondo.

Ibi n'ibinyabiziga bitandukanye byiganjemo moto ndetse n'imodoka, kuri iki kinyabiziga cya moto hakaba hicayeho umuntu wambaye ishati y'umuhondo n'ipantalo y'ubururu.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye byiganjemo imodoka ndetse na moto hirya hakaba hari inzira y'abanyamaguru irimo abantu batandukanye.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga bigijye bitandukanye n'imodoka itwara abagenzi ndetse na moto hirya y'umuhanda hakaba hari inzira y'abanyamaguru ndetse n'ibiti birebire biteye.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga urimo ikinyabiziga kirekire gisa umweru cyo gutwara abagenzi ndetse imbere yacyo hakaba hari igare ririho umunyonzi, impande hakaba hari ibiti birebire bikikije umuhanda.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga urimo ikinyabiziga kiri mu ibara ry'umweru, hirya hakaba hari inzira y'abanyamaguru iri kunyuramo abantu ndetse hakaba hateye n'ibiti birebire.

Uyu ni umuhanda urimo ikinyabiziga kirekire, kiri mu ibara ry'umweru n'umukara ndetse n'icyatsi gitwaye abagenzi. Hirya hakaba hari ibiti birebire bisa icyatsi.

Iki n'ikinyabiziga kinini kiri mu bwoko bw'ikamyo, gifite ibara ry'umweru kandi kikaba cyegeranye na moto iriho umuntu witwara, hirya hakaba hari umugabo wambaye umupira w'umukara ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto z'umuhondo ubihagaze impande.

Aba ni abamotari bicaye kuri moto zabo impande y'umuhanda abamotari bakaba bakikijwe n'icyapa cy'umweru cyanditseho amagambo atandukanye ndetse hakaba hari n'igiti kirekire giteye aho.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye byiganjemo moto, ndetse n'imodoka nini itwara abagenzi, hirya hakaba hari ibiti biteye birebire.

Uyu ni umuhanda ugiye urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye byiganjemo imodoka ndetse na moto, uyu muhanda kandi ushushanyijemo imirongo y'umuhondo n'umweru, hirya hakaba hari amazu menshi y'ubucuruzi.

Iyi ni inzu isize ibara ry'umuhondo. Iyi nzu ikaba ishushanyijeho ibishushanyo bitandukanye ndetse ikaba yanditseho n'amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Iki n'icyapa kiri mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru, iki cyapa kandi gishushanyijeho abantu babiri bari mu ibara ry'umukara.

Iki ni icyapa kiri mu mabara y'umukara, umutuku ndetse n'umweru, iki cyapa kikaba gishinze mu busitani, hirya hakaba hari ibiti bihateye naho.

Iki ni icyapa kirimo ibara ry'umutuku ndetse n'umweru ndetse hakaba hagiye harimo n'imirongo isa umukara.

Iki ni icyapa kiri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru, iki cyapa kikaba gishushanyijeho igishushanyo nacyo kiri mu ibara ry'umweru.

Iki n'icyapa kiri mu ibara ry'umutuku n'umweru, kiriho ibishushanyo by'abana, iki cyapa kikaba gishinze impande y'ibiti ndetse n'urukuta rurerure rw'amabuye.

Iki ni icyapa gifite umuzenguruko utukura, ndetse kikaba kirimo n'irindi bara ry'umweru. Iki cyapa gishushanyijemo ifoto y'igare iri mu ibara ry'umukara, iri gare rinyujijwemo umurongo utukura.

Ibi ni ibyapa bigiye bitandukanye bishinze mu busitani, ibi byapa bikaba bigiye biri mu mabara y'umukara ndetse n'ubururu, bikaba byanditseho amagambo ari mu ibara ry'umuhondo ndetse n'umweru.

Iki ni icyapa gifite umuzenguruko w'ibara ry'umutuku, kikaba kirimo n'ibara ry'umweru, kikaba gifite n'igishushanyo kiri mu ibara ry'umukara, icyo gishushanyo kinyujijwemo umurongo utukura.

Iki ni icyapa gisa icyatsi, iki cyapa kikaba cyanditseho amagambo agiye atandukanye ari mu mabara y'umweru ndetse n'umuhondo.

Iki nicyapa kiri mu mabara y'umutuku, n'umweru iki cyapa kikaba gishushanyijeho ishusho y'umuntu uri kwambuka uwo muntu akaba asa umukara.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga, urimo ikinyabiziga cy'umweru. Uyu muhanda ushushanyijemo imirongo iri mu ibara ry'umweru. Hakurya ku muhanda hari inzira y'abanyamaguru ihagazemo abantu.

Iki ni icyapa kiri mu mabara y'umuhondo ndetse n'umukara. Iki cyapa kikaba gishushanyijeho ishusho nayo iri mu ibara ry'umukara.

Iki ni icyapa kirimo amabara y'umweru, umukara ndetse n'umutuku. Kikaba gihagazeho abantu bagiye batandukanye, bambaye imyenda yiganjemo icyatsi n'umukara n'ubururu.

Iki ni icyapa gishinze impande y'umuhanda, umuhanda ukaba ufite ku ruhande inzira y'abanyamaguru ndetse ukaba ukikijwe n'inzu nyinshi cyane zitandukanye z'ubucuruzi.

Iki ni icyapa kigiye kiri mu ibara ry'umutuku ndetse n'umweru, kikaba gishushanyijeho umugabo nawe uri mu ibara ry'umukara.

Iki ni icyapa kiri mu mabara y'umweru n'ubururu. Iki cyapa kikaba gishinze mu busitani bwegereye umuhanda w'ibinyabiziga. Iki cyapa kandi kikaba cyegeranye n'urukuta rurerure rw'umweru.

Iyi ni inzu igiye igerekeranyije, iyi nzu ikaba ifite imiryango ndetse n'amadirishya by'umukara, iyi nzu kandi ifiteho ubusitani bugiye buteyemo ibiti bitandukanye.

Iyi ni inyubako yubatswe n'amatafari ahiye ndetse isize ibara ryiganjemo umweru, iyi nyubako ikaba ikikijwe n'ibiti bitandukanye ndetse n'umuhanda w'ibinyabiziga.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo, ushushanyijemo umurongo muremure w'umuhondo. Hirya hakaba hari inzu y'ubucuruzi, isize ibara ry'icyatsi igiye iriho ibyapa byinshi bitandukanye.

Izi ni inzu z'ubucuruzi zifite icyapa kinini cyane cy'umweru, cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu ndetse n'umuhondo n'umweru.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga, urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, uyu muhanda kandi uriho hirya inzira y'abanyamaguru ndetse ukikijwe n'amazu y'ubucuruzi atandukanye.

Iyi ni inyubako ndende cyane isize amabara y'umukara n'umweru. Inyubako ikaba ifite inzugi n'amadirishya bisa umukara ndetse ikaba ifiteho ibyuma bitanga umuyaga bisa umweru.

Izi ni inyubako zigiye zitandukanye zifite ibisenge bigiye bitandukanye, byiganjemo iby'umutuku, iby'umukara, iby'ubururu ndetse n'ibindi. Izi nzu kandi zikaba zikikijwe n'ibiti bitandukanye.

Uyu ni umuhanda w'igitaka urimo abantu bari kugenda ndetse ukaba urimo n'ibinyabiziga bitandukanye byiganjemo imodoka ndetse na moto.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'imodoka isa umukara, hirya hakaba hari abanyamaguru bari kugenda ndetse n'inzu zikikije umuhanda.

Iyi ni inyubako ndende cyane, igiye iriho ibyapa bigiye bitandukanye. Hasi y'inyubako hakaba hari imodoka zihagaze ndetse na moto n'abantu bari kugendagenda.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga, ushushanyijemo imirongo igiye iri mu mabara y'umukara ndetse n'umweru, uyu muhanda kandi ukaba urimo ikinyabiziga cya moto, hirya y'umuhanda hakaba hari inzira y'abanyamaguru ndetse n'inzu ndende y'ubucuruzi.

Uyu n'umuhanda w'ibinyabiziga urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, byiganjemo imodoka ndetse na moto, kandi uyu muhanda uteyemo ubusitani.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga, uyu muhanda ukaba urimo imodoka ndetse na moto, kandi ushushanyijemo imirongo iri mu ibara ry'umukara n'umweru, kandi ukikijwe n'ubusitani n'ibiti bitandukanye.

Uyu ni umuhanda ugiye uririmo ibinyabiziga bitandukanye nk'amamodoka, kuruhande hakaba hari inzira y'abanyamaguru irimo abantu batandukanye; umuhanda kandi ukaba uteyeho amatara maremare awumurikira.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga, uyu muhanda ukaba urimo ibinyabiziga byiganjemo imodoka ndetse na moto, impande y'umuhanda hakaba hari inzira y'abanyamaguru.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, byiganjemo imodoka ndetse na moto. Uyu muhanda ushushanyijemo imirongo iri mu mabara y'umuhondo, umweru n'umukara.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye byiganjemo imodoka ndetse na moto, uyu muhanda kandi ukikijwe n'inzira y'abanyamaguru ndetse n'ibiti birebire.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga, urimo ikinyabiziga cya moto ndetse n'igare. Uyu muhanda ukikijwe n'inzira y'abanyamaguru ndetse n'ubusitani n'ibiti birebire.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga ugiye urimo ibinyabiziga bitandukanye byiganjemo moto ndetse n'igare, uyu muhanda ukaba unashushanyijemo imirongo y'umuhondo kandi hirya yawo ukaba ukikijwe n'inzira y'abanyamaguru n'ubusitani.

Uyu n'umuhanda w'ibinyabiziga urimo ibinyabiziga birimo imodoka ndetse na moto uyu muhanda kandi ukaba urimo abanyamaguru bari kwambuka mu nzira yagenewe abanyamaguru.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga urimo ubusitani ndetse uriho n'ibiti bikikije byinshi ndetse uyu muhanda ukaba uriho n'ibyapa bitandukanye ndetse hakaba hari n'amazu akikije.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga wiganjemo imodoka ndetse na moto, uyu muhanda kandi ukaba urimo n'ibyapa bigiye bitandukanye ndetse hakaba hateyemo n'ubusitani.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye byiganjemo imodoka ndetse na moto, hirya ku kumuhanda hakaba hari inzira yagenewe abanyamaguru.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye byiganjemo moto ndetse n'imodoka, uyu muhanda kandi ukaba ushushanyijemo imirongo iri mu mabara y'umuhondo, umweru n'umukara.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye byiganjemo imodoka ndetse na moto, uyu muhanda ukaba uteyemo n'ubusitani ndetse n'ibiti birebire.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga urimo ibinyabiziga bitandukanye, byiganjemo imodoka, moto, n'igare. uyu muhanda ukaba ukikijwe n'inzira y'abanyamaguru ndetse n'ubusitani n'ibiti birebire.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga ugiye urimo ibinyabiziga bitandukanye na moto, uyu muhanda kuruhande ukaba ukikijwe n'inzira y'abanyamaguru irimo abantu batandukanye ndetse ku mpande hakaba hari n'ibiti byinshi bihateye.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga urimo ibinyabiziga bi bitandukanye, byiganjemo imodoka ndetse na moto. Hirya y'umuhanda hakaba hari inzira y'abanyamaguru ndetse hakaba hateye n'ibiti birebire.

Uyu ni umuhanda ugiye ushushanyijemo imirongo igiye itandukanye, yiganjemo iy'umweru ndetse n'umukara. Uyu muhanda kandi mo hagati hakaba hagiye hateyemo ubusitani.

Uyu n'umuhanda w'ibinyabiziga urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, byiganjemo imodoka ndetse na moto. Uyu muhanda kandi ukaba ushushanyijemo imirongo y'umukara n'umweru.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga, ushushanyijemo imirongo igiye itandukanye, iri mu mabara y'umweru, umukara ndetse n'umuhondo, uyu muhanda kandi ugiye uteyemo ubusitani ndetse n'ibiti.